Ndi kubona ari ibikorwa bya guverinoma, ari kwigisha abaturage mu buryo bakwanguramo utuzi twabo, bitewe n'ubumenyi n'amahirwe yo kugira abakozi, kwakira abakozi batandukanye, mu buryo butandukanye. Bari guhugura abakozi muri rusange, bari mu nama, baricaye hari icyo kunywa.

Ndi kubona ari ubukangurambaga bwa leta ariko kwigisha aba banyeshuri ibijyanye no kwirinda imibu babereka uburyo bagiye gutera imiti ahantu hose kujya birukana iyo mibu nabo babashikariza kwirinda bashyiraho ingamba zo kurwanya iyo mibu hariho pompe itera umuti isa umutukuya, isarubeti y'ubururu agapfukamawa n'abanyeshuri bicaye.